Abakangurambaga b'ubuzima bambaye impuzankano y'umweru iriho n'amazina aranga umukangurambaga, bari gutanga imiti mu mirenge.

Umujyanama w'ubuzima mumpuzankano y'umweru, ndetse n'ibara ry'umutuku ku maboko, ari gusuzuma umwana mutoya w'imyaka itanu, ndetse afite ikaramu mu ntoki.

Abaturage bari ku ivomero n'amajerekani, bagiye gushaka amazi mu murenge waho.

Umugore ufite ibyuma by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo mikorofone, imashini ya mudasobwa ari gutanga imbwirwaruhame.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore n'abagabo, bari mu nama basa nk'abari kubwirwa imbwirwaruhame, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo tereviziyo isakaza amashusho n'ibindi.

Umugore mu myaka hejuru ya mirongo itanu yabazwe ijisho n'ikigo gishinzwe iby'ubuvuzi bw'amaso.

Icyumba kibika ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo ibireba niba umurwayi adafite ibibazo by'amaso, ndetse n'ibitanga amakuru mu bundi buryo.

Uwirabura ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nka kuteri sakazamajwi mu matwi ndetse afite n'isaha ari muri siporo.

Imashini yifashishwa mu buvuzi mu gupima umuvuduko w'amaraso, umurwayi cyangwa uwaganye ivuriro yaba yari afite.